Icyumba kinini cy'inama kirimo abantu batandukanye; harimo: abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi. Bigaragara ko aba bantu bari gukurikirana imbwirwaruhame y'umuyobozi runaka wabatumiye muri icyo gikorwa.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Uruhurirane rw'abantu benshi bambaye imyambaro isa, bahuriye mu gikorwa kimwe cyo kwamamaza umukandida wa efuperi inkotanyi, perezida wa Repubulika Polo Kagame. Bafite ifoto nini cyane igaragaza ishusho ye, yanditseho amagambo agira ati; "Umudugudu wa radari tuzagutora ijana ku ijana."

Ibyapa bibiri bifite ubuso bw'umuhondo ibirango by'umukara, akenshi ibyapa bishyirwa mu muhanda kugira ngo abawukoresha bamenyeshe uko bagomba kwitwara igihe bageze aho hantu.

Inyubako nini bigaragara ko yitaruye imiturire isanzwe, imbere y'inyubako hari ubusitani bugari ndetse butoshye. Inyubako nk'izi zikunda gutangirwamo serivisi za leta, ntago ziba ari inyubako z'ubucuruzi.

Isangano ry'imihanda ririmo ubusitani buke cyane bugizwe n'ubwatsi bugufi ndetse n'imikindo, uyu muhanda uramurikiye nk'uko bisanzwe imihanda myinshi yo mu Rwanda iba imurikiye, ku buryo abantu bayigendamo amanywa ndetse na nijoro.